Ndabona abantu bicaye muri sitade harimo abambwye udupira tw'icyatsi abandi bambaye udupira tw'umuhondo bicaye ku ntebe intebe zisa umweru ndabona kandi hirya hari n'abandi bantu benshi hano ni muri sitade.

Ndabona abagabo batatu bicaye hano imbere, umwe yambaye ikoti risa umukara, undi yambaye ikoti rijya gusa n'igitaka, undi yambaye irijya gusa n'ubururu bwijimye, haiuducupa tubiri tw'amazi.

Ndabona imashini, ndabona porojegiteri, ndabona agacupa k'amazi y'Inyange, ndabona intebe yicayeho abantu, ndabona ralonje.

Ndabona imashini, ndabona abantu, ndabona ameza, ndabona amadirishya, inyuma ndabona ikikuta cy'umweru, umwana wambaye agapira k'umuhondo.

Ndabona umuntu uri ku mashini uri gutayipinga mu mashini ari gukanda muri imashini handitsemo irembo iruhande hari terefone imbere hirya hari ralonje.

Ndabona urupapapuro rwanditseho gutangiza ku mugaragaro mu magambo y'umweru ukwezi ko gushimira abasora mu magambo y'umuhondo, hariho indege hari inyubako ya sotitawa hari abana bari kwiga, hari imihanda, hariho n'umuntu w'umuganga.

Ndabona kaburimbo, ndabona imodoka ya sikaniya, ndabona kontineri, ndabona abamotari, ndabona imodoka z'utuvatiri iri imbere.